Inzu nini irimo abanyeshuri bambaye impuzangano y'ishati y'umweru, ipantaro y'ubururu n'umupira w'icyatsi, hari abana rero bari imbere hano murabona ko bambaye umupira w'icyatsi abandi bambaye.